Icyumba cyicayemo abantu, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye ku ntebe z'umukara, bazengurutse ameza yo mu ibara ry'umukara, ateretseho amacupa, n'agaseke gatoya hagati.

Icyumba gihagazemo abantu benshi, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, imbere yabo hari ameza ari mu ibara ry'umukara, ateretseho amacupa, azengurutswe n'intebe.

Umugore uhagaze mu gisambu, wambaye imyambaro irimo ibara ry'umukara, ufite indangururamajwi mu ntoki, inyuma ye hicaye abantu bicaye mu ihema hejuru rifite ibitambaro by'ubururu n'umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi bitambitse.

Icyumba kicawemo n'abantu batatu harimo umugore umwe ndetse n'abagabo babiri, umwe yambaye amadarubindi ku maso, bose bambaye amashati yaciyemo imirongo, hagati yabo hari ameza ateretseho amacupa.

Abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari ameza arambitseho terefone ngendanwa ndetse n'amacupa, hari ibitambaro birinda urumuri bimanitse mu madirishya.

Icyumba cyicayemo abantu bicaye ku ntebe z'umukara, bambaye imyambaro y'amabara atandukanye. Imbere ya bo hari ameza ateretseho mudasobwa ndetse n'amacupa. Imbere hahagaze umugabo wambaye ishati y'umweru y'amaboko magufi, wambaye amadarubindi ku maso.

Icyumba cyicayemo abantu benshi, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, imbere yabo hari ameza arambuyeho igitambaro cy'umweru, ateretseho telefone ngendanwa ndetse n'amacupa.

Icyumba cyicayemo abantu batatu b'abagore, umwe muri bo yambaye umwenda uri mu bwoko bw'igitenge, ufitemo ibara ry'icyatsi kibisi imbere, yabo hari ameza arambuyeho igitambaro cy'umweru, watetseho amacupa.

Abantu bicaye ku ntebe z'umukara, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye hari abagore babiri ndetse n'umugabo umwe wicaye hagati, imbere yabo kumeza hari mudasobwa ndetse n'amacupa.

Icyumba kigaragara nk' icy'inama, cyicayerimo abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, imbere yabo hari ameza mu ibara ritukura ateretseho terefone ngendanwa, indangururamajwi, ndetse n'amacupa.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko magufiya, wambaye isaha ku kuboko, inyuma ye hagaragara icyapa cy'ubururu kiriho ibendera ry'u Rwanda imbere ye hicaye abantu.

Icyumba cyicayemo abantu benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, imbere hagaragara umugore wambaye ikote riri mu ibara ritukura, ufite ikaramu mu ntoki, imbere ye hari ameza ateretseho urupapuro ndetse n'icupa.

Icyumba kigaragara nk'icy'inama cyicayemo abantu bambaye imyambaro iri mu mabara atandukanye, bicaye ku ntebe z'umutuku hari n'abicaye ku ntebe z'ubururu, imbere yabo hari ameza arambuyeho igitambaro cyo mu mabara ry'umweru.

Icyumba gifite amatara hejuru bari kwaka hagazemo abantu benshi bambaye imyambaro mu mabara atandukanye, imbere yabo hari ameza arambuyeho igitambaro kiri mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara hejuru kumeza hateretse amacupa...

Icyumba kigaragara nk'icy'inama, cyicayemo abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, imbere yabo hariyo ameza arambuyeho igitambaro cy'umweru ndetse n'umukara, hateretseho amacupa.

Icyumba cyicayemo abantu benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, imbere hagaragara umugore uhicaye wambaye ikoti ry'umweru ishati y'icyatsi kibisi, iruhande rwe hateretse imeza iteretseho amacupa.

Abantu babiri bicaye mu cyumba giteyemo intebe ziri mu ibara ry'umukara, umwe n'umugore undi akaba ari umugabo, imbere yabo hari ameza arimo ibara ritukura ateretseho telefone ngendanwa, mudasobwa ndetse n'amacupa.

Icyumba cyicayemo abantu harimo umugabo wambaye ikote ry'umukara n'ishati y'umweru, afite indangururamajwi mu ntoki, yambaye isaha ku kuboko ndetse n'impeta, iruhande rwe hicaye undi mugabo n'inyuma ye hicaye abandi bantu.

Icyumba cyicawemo n'abantu benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara, abenshi muri bo bateye iyo mudasobwa ku bibero, imbere hicaye abandi bantu, inyuma yabo hagaragara icyapa cyanditseho makumyabiri.

Icyumba cyicayemo abantu batatu harimo abagabo babiri ndetse n'umugore umwe wicaye ku ruhande, umugabo wicaye hagati yambaye ingofero y'umukara, imbere y'abo hari ameza yo mu ibara ry'umweru ateretseho indabyo z'umweru ndetse n'amacupa.

Icyumba kicayemo abantu bambaye imyambaro yo mabara atandukanye, imbere yabo hari ameza asasheho igitambaro cyu'mweru, ateretseho terefone ngendanwa, hagati yabo hari umugabo wambaye ishati y'umweru.

Umugore wambaye imyambaro y'umuhondo, ateze igitambaro mu mutwe, afite indangururamajwi mu ntoki, ahagaze imbere y'abantu bicaye ku ntebe zitukura, imbere yabo hari amacupa y'amazi.

Icyumba cyicayemo abantu benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, harimo umugabo wambaye umupira w'amaboko magufiya ufite indangururamajwi mu ntoki imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa.

Umukobwa ufite imisatsi iboshye, wambaye imyambaro irimo amabara y'icyatsi kibisi, wambaye amaherena ku gutwi, wambaye impeta ku rutoki, afite indangururamajwi mu ntoki.

Icyumba kigaragara nk'icy'inama cyicayemo abantu bambaye imyambaro yo mabara atandukanye, imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa, hagaragara n'umuzungu wicaye ku ntebe y'imbere.

Icyumba cyicayemo abantu benshi, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara, imbere yabo hariyo ameza, ateretseho amacupa ndetse n'indangururamajwi.

Icyumba cyicayemo abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, imbere yabo hari ameza arambuyeho ibitambaro ateretseho amacupa, mudasobwa, ndetse n'umugozi wayo hari ibitambaro birinda urumuri ku madirishya.

Icyumba cyicawemo n'abantu benshi ,imbere yabo hagaragara ameza yo mu ibara ry'umukara ateretseho terefone ngendanwa ,ibirahuri ndetse n'ikiyiko imbere hagaragara umugore wambaye ikote riciyemo imirongo wegeranye n'undi uteze igitambaro mu mutwe wambaye imyambaro ijya gutukura.

Abantu benshi, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye ku ntebe z'umukara, ku murongo w'imbere hagaragara umugabo w'umuzungu, wambaye ikote ndetse n'ishati y'umweru mo imbere.

Icyumba kicayemo abantu benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye bicaye ku ntebe zirimo ibara rijya gusa nk'ivu, imbere yabo hateretse mudasobwa.

Abantu bane bicaye ku ntebe z'umweru, babiri bo ku ruhande bambaye umupira w'umuhondo w'amaboko magufiya, imbere yabo hari ameza y'umweru, ateretseho amacupa ndetse n'amadarubindi.

Icyumba cyicayemo abantu batatu, bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara, harimo abagore babiri ndetse n'umugabo umwe wambaye isaha ku kuboko ufite indangururamajwi imuteretse imbere ku meza.

Icyumba cyicayemo abantu benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye bicaye ku ntebe z'umweru imbere yabo hari ameza ari mu ibara ry'umukara ateretseho amacupa ndetse na mudasobwa.

Icyumba cyicayemo abantu benshi, imbere hagaragara mukobwa wambaye agasengeri gaciyemo imirongo y'umweruru ndetse n'umukara, imbere ye hari ameza ateretseho icupa, afite n'urupapuro mu ntoki.

Umukobwa wambaye umupira w'ubururu bwijimye w'amaboko magufiya, afite amadarubindi hejuru ku ijosi ry'umupira afite umusatsi mwinshi ufungiye inyuma n'indangururamajwi mu ntoki imbere ye yicaye abandi bantu.

Icyumba cyicayemo abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, imbere hagaragara umugabo wambaye amadarubindi ku maso n'ishati y'amaboko maremare afite ubwanwa burimo imvi nkeya, imbere ye ku meza hateretse icupa ndetse na terefone ngendanwa.

Icyumba kicayemo abantu benshi harimo abagabo ndetse n'abagore bambaye imyambaro igaragara mu mabara atandukanye, bicaye ku ntebe zifite ibara rijya gusa nk'ivu.

Icyumba cyicayemo abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari ameza y'umukara, imbere ku gikuta cy'umweru hari insakazamashusho nini.

Icyumba cyicayemo abantu bambaye imyambaro yo mabara atandukanye bicaye ku ntebe zifitemo ibara ry'umuhondo, imbere yabo hari ameza arambuyeho ibitambaro ateretseho na mudasobwa.

Abantu benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye ku ntebe zo mu ibara ry'umweru, imbere yabo hahagaze umugore wambaye amadarubindi ndetse n'imyambaro y'umutuku, inyuma hari igikuta cyubakisheje amatafari ahiye.

Icyumba cyicayemo abantu benshi higanjemo abambaye imipira y'umuhondo y'amabara magufi, ku gatuza kuruhande hariho ibendera riri mu ibara ry'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi.

Icyumba giteyemo intebe zirimo ibara ry'umuhondo, hagaragaramo n'ameza asasheho igitambaro cy'umweru arambitseho amakayi, hagaragara umugore wambaye ikanzu y'igitenge n'igitambaro cy'umukara mu mutwe.

Icyumba kigaragara nk'ikinama cyicayemo abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, imbere yabo hari ameza arambuyeho igitambaro cy'ubururu, ateretseho mudasobwa ndetse n'amacupa.

Icyumba kigaragara nk'icy'inama, cyicayemo abantu bambaye imyambaro y'amabara atandukanye, bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa.

Abantu bagaragara nk'abambaye impuzangano z'abanyeshuri, bambaye ibitambaro by'umweru by'abayisilamu mu mutwe, n'imipira y'icyatsi kibisi, n'amapantaro y'ubururu bwijimye, harimo n'abambaye amashati y'umweru.

Abantu bane bicaye ku ntebe z'umukara harimo umugabo wambaye isaha ku kuboko ufite icupa mu ntoki yifashe ku itama, imbere yabo hari ameza yo mu ibara ry'umukara ateretseho andi macupa.

Icyumba kicayemo abantu bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa, amacupa ndetse n'udutabo, hagaragara umugore w'inzobe wambaye imyambaro y'umukara wisize ibintu bitukura ku munwa.

Abantu benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye imbere yabo hari ameza arambuyeho igitambaro k'ibara ry'icyatsi kibisi, ubururu n'umuhondo, hateretseho amazi na terefone ngendanwa ndetse n'indangururamajwi.

Abantu bicaye bagaragara nk'abazamuye igipfunsi hejuru hagati y'abo hari umugabo wambaye ikote ndetse n'ipantalo bafite indangururamajwi mu ntoki, mu bicaye harimo uteze igitambaro cy'umuhondo.

Icyumba kigaragara nk'icy'inama cyicayemo abantu bambaye imyambaro y'amabara atandukanye, bicaye ku ntebe z'umukara imbere yabo hariyo ameza ateretseho indangururamajwi hari n'isakazamashusho.

Abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, biganjemo abagore bateze ibitambaro mu mutwe. Imbere yabo hahagaze umugabo ufite indangururamajwi mu ntoki. Inyuma ye hicaye abandi bantu biganjemo abambaye impuzankano z'abasirikari.

Icyumba kigaragara nk'icy'inama cyicayemo abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara, harimo umuzungu umwe w'umugore. Imbere yabo harirera ameza y'ibara ritukura, ndetse n'umukara, uteretseho amacupa ndetse n'indangururamajwi.

Icyumba kigaragara nk'icy'inama, kirambuyeho igitambaro kiri mu ibara ry'umukara ku meza, hateretseho amacupa, impapuro ndetse n'agaseke, cyicayemo abantu benshi bambara imyambaro yo mu mabara atandukanye.

Icyumba cyicayemo abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye ku ntebe z'umweru, hari n'abicaye ku ntebe z'umukara, bakikije ameza ari mu ibara ry'umukara, ateretseho amacupa.

Abantu bicaye mu ihema, bambaye imyambaro yo mabara atandukanye, imbere yabo hari umugabo wambaye ikoti ry'umukara uhagaze mu gisambu, ufite indangururamajwi, inyuma ye hari insakazamajwi nini cyane yo mu ibara ry'umukara.

Icyumba kirimo abantu benshi harimo abambaye imyenda isaha yo mu ibara ry'umuhondo bahagaze, imbere hagaragara abicaye bambaye imipira isa mu ibara ry'icyatsi kibisi hagaragara n’undi muntu wambaye impuzangano y'abapolisi wicaye kuruhande.

Icyumba cyicayemo abantu benshi, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye ku ntebe z'icyatsi kibisi, imbere yabo hariyo ameza ateretseho amacupa.

Abantu benshi bahagaze bambaye imyambaro yo mabara atandukanye, harimo umugabo wambaye ingofero itukura mutwe, abenshi muri bo bafashe ku cyapa kirimo ibara ry'umweru cyanditsemo amagambo.

Icyumba cyicayemo abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye bicaye, imbere yabo hari ameza arambuyeho igitambaro cy'umweru ateretseho amacupa ndetse na mudasobwa.

Abantu benshi bicaye munsi y'ibiti, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye yiganjemo abagore bambaye imyambaro yo mu bwoko bw'igitenge, imbere yabo hahagaze umugabo uhagaze mu mbuga y'ibitaka.

Icyumba cyicayemo abantu batatu abagabo babiri ndetse n'umugore umwe ubicaye hagati wambaye amadarubindi ku maso, imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa amacupa ndetse n'indangururamajwi.

Icyumba cyicayemo abantu, imbere yabo hariya ameza arambuyeho igitambaro cy'umweru, bateretseho impapuro, amacupa, terefone ngendanwa ndetse na mudasobwa, hari n'umugabo wunamye hejuru y'undi.

Abantu bahagaze ku murongo utambitse, ku mbuga y'umukara, abandi bahagaze inyuma yabo ku mbuga y'umutuku, bambaye imyambaro y'amabara atandukanye harimo abazungu ndetse n'abirabura.

Icyumba cyicayemo abantu benshi bambaye imyambaro y'amabara atandukanye, bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umutuku, imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa, hari n'umugabo wambaye ikote ndetse n'amadarubindi.

Imbuga y'ubururu iteyeho intebe z'umutuku hicayeho abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, imbere yabo hariyo meza asasheho ibitambaro by'umuhondo hari n'andi asasheho ibitambaro by'umweru hagati yabo hagiye hari ibyapa byinshi.

Abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara, imbere yabo hari ameza ateretseho udukombe, terefone ngendanwa, ndetse n'ibirahure.

Icyumba kigaragara nk'ik'inama cyicayemo abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari ameza ndetse wo mudasobwa ndetse n'amacupa.

Icyumba gihagazemo abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, inyuma yabo hagaragara intebe ziri mu ibara ry'umuhondo, imbere yabo hari ameza arambuyeho igitambaro cy'umweruru ateretseho n'amacupa.

Icyumba cyicayemo abantu benshi, imbere hicaye abagore batatu bambaye ibitambaro mu mutwe, uwo hagati yambaye amadarubindi ku maso, uwo ku ruhande yambaye imyenda iri mu ibara ritukura, imbere yabo hateretse amazi.

Icyumba cyicayemo abantu abandi bahagaze kirimo intebe zirimo ibara ritukura, hagati y'abo hariyo ameza asasheho igitambaro cy'umweru, umukobwa uhagaze afite indangururamajwi mu ntoki.

Icyumba cyicayemo abantu benshi, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umweru, imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa, telefone ngendanwa, ndetse n'impapuro.

Abantu bambaye imyambaro y'amabara atandukanye, bicaye ku ntebe z'umukara bafashe impapuro ndetse na terefone ngendanwa ku bibero, inyuma yabo hari icyapa kiri mu mabara abiri, ubururu ndetse n'umweru cyanditseho amagambo.

Icyumba kirimo abantu benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, kirimo intebe ziriwi ibara ry'umutuku, hari n'ameza arambuyeho ibitambaro by'umuhondo ateretseho amacupa, hari n'ibitambaro birinda urumuri bimanitse mu madirishya.

Abantu benshi bicaye hamwe bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bafite akagozi kari mu ibara ry'icyatsi mu ijosi kuri buri wese, hari n'umukobwa wambaye amadarubindi ku maso ugaragara adafite ako kagozi k'icyatsi kibisi wambaye n'ikote riciyemo imirongo.

Icyumba kigaragara nk'icy'inama cyicayemo abantu bambaye imyambaro y'amabara atandukanye, bicaye ku ntebe zitukura, hari n'abicaye ku ntebe z'ubururu, imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa.

Icyumba cyicayemo abantu benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye harimo umugabo wambaye amadarubindi ku maso, afite terefone ngendanwa mu ntoki, iruhande rwe hicaye abazungu babiri.

Icyumba kigaragara nk' icy'inama cyicayemo abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye ku ntebe z'umukara imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa, amacupa, ndetse n'indangururamajwi.

Icyumba kigaragara nk'icy'inama, cyicayemo abantu bambaye imyambaro y'amabara atandukanye, bicaye ku ntebe z'umukara harimo umugore uhetse umwana, imbere yabo hariho ameza ateretseho amacupa.

Umugabo wambaye ikote ndetse n'ishati mo imbere, inyuma ye hagaragara ibendera ry'umweru, imbere ye hari ameeza ateretseho amacupa, telefone ngendanwa ndetse n'indangururamajwi.

Abantu bicaranye harimo abagabo babiri ndetse n'umugore ubicaye hagati, wambaye imyambaro yo mu ibara ritukura, ufite imisatsi iboshye ku mutwe, yambaye n'amadarubindi, imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa.

Igisambu kicayemo abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, harimo n'abandi bahagaze, hagati yabo mu mbuga y'igitaka, hahagazemo umuntu wambaye imyambaro iri mu mabara ry'umukara, haruguru yabo hari ibiti.

Icyumba cyicayemo abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye ku ntebe z'umukara, harimo umugabo wambaye ikote ry'ubururu ndetse n'ishati y'umuhondo mu imbere, imbere yabo kumeza hateretse indangurura majwi.

Umukobwa wambaye ikanzu, wambaye impeta ku rutoki, yambaye n'isaha ku kuboko, afite umusatsi mugufiya ku mutwe, yisize ibintu bitukura ku munwa, afite indangururamajwi mu ntoki, inyuma ye hagaragara intebe zicayeho abantu bakeya.

Icyumba kigaragara nk'icy'inama cyicayemo abantu bambaye imipira y'umweru y'amaboko magufi, bicaye ku ntebe zifite ibara ritukura, imbere yabo hari ameza y'umukara ateretseho amacupa n'umuntu wambaye umupira w'ubururu, uhagaze imbere ufite indangururamajwi.

Umugabo wicaye ku ntebe y'umukara yambaye ishati y'ubururu irimo utudomo y'amaboko magufiya, imbere ye hari ameza ateretseho mudasobwa, indangurura majwi ndetse n'icupa.

Abantu benshi bicaye hamwe bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umweru, inyuma yabo hagaragara ibikuta by'amatafari ahiye n'inzugi z'umweru.

Icyumba cyicayemo abantu benshi bambaye imyambaro yo mumabara atandukanye, higanjemo abambaye imipira y'umweru y'amaboko magufiya bicaye bazengurutse ameza arambuyeho igitambaro cy'icyatsi kibisi.

Abagabo babiri bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara, umwe yambaye ishati y'umweru undi yambaye ikote, mo imbere harimo ishati, imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa.

Imbuga y'ubururu iteretseho indabo haruguru yazo hicaye abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, inyuma yabo hari icyapa kirimo ibara ry'ubururu ndetse n'umweru cyanditsemo amagambo.

Icyumba kigaragara nki kinama kicayemo abantu bambaye imyambaro ya mabara atandukanye, bicaye ku ntebe z'umukara imbere yabo, hariyo ameza ateretseho amazi imbere hari isakazamashusho.

Icyumba kirimo intebe z'umweru, inyinshi muri zo zigiye zigerekeranye ari ebyiri cyangwa eshatu hicayeho abantu bambaye imyambaro yo mabara atandukanye; imbere yabo hari ameza ateretseho amazi.

Icyumba cyicayemo abagore bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, harimo uwambaye imyambaro yo mu bwoko bw'imikenyero, iri mu ibara ry'umuhondo, ateze igitambaro cy'umutuku mu mutwe, bicaye ku ntebe zifite ibara rigaragara nk'ivu.

Icyumba cyicayemo abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye gifite urugi rufunze ndetse n'ibikuta by'umweru, hahagazemo umugabo wambaye amadarubindi ku maso n'ishati yiciyemo imirongo, yambaye isaha ku kuboko afite ikaramu mu ntoki.

Icyumba cyicayemo abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye ku ntebe z'umukara harimo umugabo wambaye ingofero ndetse n'amadarubindi, imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa.

Icyumba kigaragara nk'ik'inama cyicayemo abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa ndetse na mudasobwa.

Abantu benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara imbere yabo hari ameza afite ibara ritukura ateretseho telefone ngendanwa ndetse n'agatabo.

Icyumba kigaragara nk'ikinama cyicayemo abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa ndetse n'indangururamajwi, inyuma ku gikuta hamanitse insakazamashusho.

Icyumba cyicayemo abantu bicaye ku ntebe z'umuhondo, hari umugore uri guseka wambaye amadarubindi ndetse n'imyenda y'umukara, inyuma ye hari umugabo uhicaye ufite umusatsi ku mutwe, imbere yabo hicaye abana bambaye imyenda y'ubururu.

Icyumba kigaragara nk'icy'inama, ziteyemo intebe zirimo ibara ry'umukara, hicayeho abantu bambaye imyambaro y'amabara atandukanye, imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa.

Icyumba cyicayemo abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye hagaragaramo abagore batatu, bambaye amadarubindi, bicaye ku meza imwe iriho amacupa ndetse na mudasobwa.

Icyumba cyicayemo abantu imbere yabo hari umugabo uhagaze wambaye ishati y'amaboko magufiya n'isaha ku kuboko, imbere ye hari mudasobwa iteretse ku meza ariho n'amacupa y'amazi.

Umugabo wambaye umupira w'umweru w'amaboko magufi, ufite indangururamajwi mu ntoki, hejuru uri mu ibara ritukura, yambaye amadarubindi ku maso, imbere ye hari ameza yateretseho amacupa na telefone ngendanwa, yatunze urutoki ku cyapa cy'ubururu kimuri iruhande.

Abantu benshi bicaye bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, harimo abafite mudasobwa zabo ku bibero. Hari n'abandi bafite telefone ngendanwa mu ntoki bari kuzirebamo.

Umunara muremure uri mu mabara abiri harimo ibara ritukura ndetse n'ibara ry'umweru, ufite uruzitiro rw'ibyuma, hejuru hagaragara ikirere kiri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru.

Umuntu utagaragara neza mu maso wambaye amadarubindi ku maso, ufite ingofero mu mutwe imbere ye hateretse mudasobwa icanye, irimo udushushanyo tw'abantu babiri.

Umukobwa uri guseka ufite imisatsi iboshye ku mutwe, wambaye ikote, yicaye imbere y'ameza ateretseho mudasobwa ari gukoresha yandika, iruhande rwayo hari ibitabo biteretseho amadarubindi.

Abantu benshi bicaye ku ntebe bakikije ameza, bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, harimo abambaye imipira y'umweru y'amaboko magufi, abandi bambaye imipira y'umukara y'amaboko magufi, imbere yabo kumeza hateretse mudasobwa.

Abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, yiganjemo abambaye imipira y'icyatsi kibisi y'amaboko magufiya, bafite ingemwe z'ibiti mu ntoki, hasi yabo banditse amagambo yo mu ibara ry'umukara.

Abasore babiri bafite amagare bahagaze iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo, inyuma y'umurongo wumweru. Inyuma yabo hagaragara imodoka nini itwara abagenzi yo mu ibara ry'umweru ndetse ni'cyatsi kibisi.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo abantu babiri uw'imbere yambaye ipantaro y'umukara n'ishati iciyemo imironko y'umutuku ndetse n'umukara, inyuma ye hari undi wambaye ingofero, iruhande rw'abo hari imitaka iri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'ibiti.

Agace gato k'umuhanda wa kaburimbo gafatanye n'agahanda gasashemo amabuye kari kugendamo abantu babiri, haruguru yako hagaragara umukingo, hejuru y'umukingo hateye urutoki.

Abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye ku ntebe ziri mu ibara ry'umukara ndetse n'utubaho dutambitsemo ku ruhande, hagaragara ibikuta by'umweru, imbere hari undi muntu uhagaze uhetse igikapu ku mugongo, uhagararanye n'undi muntu wambaye ibintu by'umweru.

Indabo ziteye mu buryo bw'uruziga, hagati yazo hagaragara ibendera n'icyapa kiri mu ibara ry'ubururu, hari n'imbuga iri kugendamo abantu harimo uwitwikiye umutaka, imbere hagaragara inzu y'igorofa yanditseho amagambo hejuru.

Umusore wambaye ishati y'umukara n'amaboko maremare, ku kuboko kumwe yazamuye ishati ayigeza ku rutugu, yambaye n'agapfukamunwa iruhande rwe hahagaze umuntu wamufashe ku kuboko ,wambaye ga mu ntoki ndetse n'imyenda y'umweru.

Icyumba kirimo umugore wicaye ku ntebe y'umukara, iruhande rwe hahagaze umugabo wambaye agapfukamunwa, yambaye itaburiya y'umweru imbere yabo hari ameza ateretseho mudasobwa.

Imbuga ishashemo amabuye hahagazemo imodoka y'umweru, iri mu bwoko bw'imbangukiragutabara, iruhande rwayo hahagaze abantu, inyuma hagaragara inyubako hejuru yanditseho amagambo.

Imbuga isashemo amabuye manini hahagazemo imodoka ebyiri zo mu ibara ritukura zitwara abantu ku giti cyabo hari n'indi imwe ihahagaze ijya kugaragara mu ibara ry'umweru inyuma yayo hateye igiti cy'umukido hagaragara n'inzu y'igorofa.

Imbuga isashemo amabuye iri kugendamo umuntu utwaye akajerekani gatoya mu ntoki, ndetse n'abandi bantu bari inyuma ye, inyuma ye nanone hagaragara imodoka ziri mu ibara ry'umweru n'inzu isakarishije amabati y'umutuku.

Abagabo batatu bambaye imyambaro igaragara nk'impuzankano y'abagororwa, umwe yambaye isaha ku kuboko, undi asa nk'aho ari kureba hasi bicaye ku ntebe yegamirwa y'urubaho.

Umugabo wambaye imyambaro igaragara nk'impuzangano y'abagororwa, yambaye agapfukamunwa k'umweru mu isura, afite ikayi mu ntoki iri mu ibara ry'ubururu, inyuma ye hahagaze abandi bantu batagaragara igice k'isura.

Umugore uhagaze atari guseka, ugaragara igice k'igihimba yambaye umwambaro uri mu mabara atatu harimo: ibara ritukura, iry'umukara ndetse n'ibara ry'umweru.

Umugabo wambaye imyambaro igaragara nk'impuzangano y'abagororwa ahagaze hagati y'abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye imbere ye harimo abicaye bafite udutambaro turi mu ibara ry'ubururu n'umuhondo n'icyatsi kibisi ku rutugu imbere yabo hari ameza.

Umugabo wambaye imyenda igaragara nk'impuzankano yabagororwa, wirabura wambaye amadarubindi kumaso, udafite umusatsi, inyuma ye hagaragara ahantu hometse urupapuro rw'umweru.

Umugabo wambaye ikote ry'umukara n'ishati y'umweru wambaye isaha ku kuboko yafatanyije ibiganza bye bibiri yambaye amadarubindi ku maso agaragara igice cy'igihimba.

Abantu bicaye ku ntebe z'umukara bambaye imyenda isa mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara, iruhande rw'abo hari abandi babiri bambaye imyenda iri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umweru.

Umugabo uhagaze ugaragara igice cy'igihimba utari guseka, wambaye amadarubindi ku maso n'ingofero y'umukara ku mutwe, yambaye umwambaro uri mu mabara abiri umutuku ndetse n'umweru.

Umugabo wambaye impuzankano y'abagororwa, n'agapfukamunwa k'umweru, afite igitabo mu ntoki, ahagararanye n'ndi wambaye imyambaro y'umukara ndetse n'umweru, wambaye agapfukamunwa. Inyuma ye hari abandi bicaye bambaye impuzankano z'abagororwa.

Umugabo ugaragara igice cy'igihimba, utari guseka, wambaye amadarubindi ku maso, udafite umusatsi ku mutwe, yambaye umwambaro uri mu mabara atatu, harimo ibara ritukura, ibara ry'umukara ndetse n'iry'umweru.

Icyumba cyicayemo umugore n'umugabo, umugore yambaye imyambaro igaragara mu ibara ritukura, harimo n'ayandi mabara, yambaye agapfukamunwa k'ubururu mu isura, yicaranye n'umugabo wambaye imyenda y'umukara ndetse n'umweru, ufite terefone ngendanwa mu ntoki, yambaye agapfukamunwa k'umukara.

Umugore utari guseka, ugaragara igice cy'igihimba, wambaye amadarubindi ku maso, yambaye umwambaro uri mabara atatu, harimo umutuku, umukara, ndetse n'umweru.

Umugore uhagaze ugaragara igice cy'igihimba yambaye amadarubindi ku maso, yambaye ingofero y'umukara mu mutwe, yambaye imyambaro iri mu mabara abiri harimo umutuku ndetse n'umweru.

Abantu bazamuye ibiganza bambaye imyambaro iri mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara ,iruhande rwabo hari amabendera imbere yabo hari abantu bambaye imyambaro y'umutuku ndetse n'ingofero mutwe, imbere yabo hari ameza ku gikuta hamanitse nsakazamashusho.

Umugabo ugaragara igice cy'igihimba, yambaye imyambaro iri mu mabara atatu, harimo ibara ritukura, ibara ry'umukara, n'ibara ry'umweru, ntabwo ari guseka.

Abantu bagaragara nk'abari kugenda ku murongo bambaye impuzangano zisa, ziri mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara, bambaye ingofero ku mutwe, inyuma ku murongo hagaragara abambaye imyenda itukura hakurya yabo hagaragara ibiti.

Umugabo ugaragara igice cy'igihimba wambaye ishati igaragara nk'impuzangano y'abagororwa, inyuma ye hari imodoka itwara abantu ku giti cyabo iri mu ibara rijya gusa nkumweru.

Abantu bambaye impuzanganoo zisa ziri mu ibara ry'umukara ndetse n'umweru, imbere yabo hari amabendera ari mu mabara atatu, harimo ubururu n'umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi.

Abantu bahagaze nka batonze imirongo, bambaye amakabutura ndetse n'amashati, bigaragara nk'impuzangano y'abagororwa, bahagaze iruhande rw'igikuta kinini cyubakishijeje amatafari ahiye.

Icyumba cyicayemo abantu benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye harimo abambaye imyambaro y'umukara ndetse n'umweru, hari n'umugabo wambaye imyambaro igaragara nk'impuzankano y'abagororwa.

Umugabo uhagaze ugaragara igice k'igihimba utari guseka, wambaye amadarubindi ku maso, yambaye umwambaro uri mu mabara atatu harimo: umutuku, umukara, ndetse n'umweru.

Umugabo utari guseka ugaragara igice cy'igihimba, ugaragara nkufite uruhara wambaye umwambaro uri mumabara atatu, harimo: umutuku, umukara, ndetse n'umweru.

Igisambu gihagazemo umugabo wambaye ikabutura ndetse n'ishati bigaragara nkimpuzangano z'abagororwa azengurutswe n'abantu benshi bambaye imyambaro mu mabara atandukanye harimo n'abafite imitaka.

Igisambu giteyemo icyapa gishushanyijeho umugabo wifashe mu mutwe wambaye ishati y'amaboko maremare, n'isaha ku kuboko munsi yiwe hari abagore babiri bambaye umupira wa maboko magufi bateze n'ibitambaro.

Abantu bicaye hasi munsi y'ibiti higanjemo abagore bicaye barambije imbere yabo hari umugabo wegamye ku giti ndetse n'abandi bantu bicaye imbere yabo hari ameza hari umugabo ufite umutaka.

Umugabo wambaye impuzankano za gipolisi, uhagaze mu gahanda gasashemo amabuye, imbere ye hari umuhanda wa kaburimbo waciyemo imirongo y'umweru, yerekana aho abanyamaguru bambukira, hakurya harimo ndetse n'amagare.

Abagabo babiri bambaye impuzankano za gipolisi, bahagaze inyuma y'ipikipiki nini y'umweru, inyuma yayo hari imodoka yo mu ibara ry'umweru, inyuma hagaragara amazu abiri y'amagorofa.

Umuhanda wa kaburimbo ku ruhande hahagaze umugabo wambaye impuzangano nk'iy'abapolisi, imbere ye hari ipikipiki ndetse n'imodoka, hari n'inyubako ifiteho ibyapa byinshi.

Imbuga ishashemo amabuye, irimo amapikipiki ndetse n'imodoka, ku ruhande hagaragara umuhanda wa kaburimbo ushushanyijemo imirongo y'umweru yerekana aho abanyamaguru bambukira, imbere y'iyo mirongo hari abantu bambaye impuzankano z'abapolisi, imbere yabo hari abantu batwara amapikipiki benshi, hicayeho n'abagenzi.

Imodoka iri mubara ritukura yicayemo umuntu iruhande, rwayo hahagaze umuntu wambaye impuzangano ya gipolisi, ugaragara igice cy'igihimba, inyuma yayo hagaragara ibiti ndetse n'amazu.

Umugabo wambaye ikote n'ipantaro by'ubururu yambaye agapira k'umweru umwe imbere, inyuma ye hicaye abandi bantu afite n'indangururamajwi imuteretse imbere.

Icyumba kigaragara nk'icy'inama hicayemo abantu benshi; ku ntebe y'imbere hicaye umugabo wifashe ku matama wambaye ikote ndetse n'amadarubindi, afite umusatsi w'amasoso, afite indangururamajwi mu ntoki.

Imbuga ihagazemo abantu benshi harimo abambaye imipira y'umweru, abambaye imipira y'umutuku ndetse hari n'abambaye imipira y'ubururu, bambaye ingofero z'umweru mu mutwe, hagati hari abafashe ibendera riri mu ibara ry'umutuku, ubururu ndetse n'umweru.

Abagabo babiri bambaye amakote, mo imbere bambayemo amashati y'umweru, bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara, imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa ndetse n'indangururamajwi, hariho n'akabendera gatoya kari mu ibara ry'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara nishati irimo amabara menshi n'inkweto z'umukara, wambaye amadarubindi ku maso, afite umusatsi w'amasoso, yambaye impeta ku rutoki agaragara nk'uri gutera intambwe.

Abagore bane bahagararanye bahagaze hagati y'amabendera abiri rimwe y'umweru n'irindi riri mu mabara atatu, harimo ubururu ,umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi hejuru yabo hari ishusho y'umugabo wambaye ikote ndetse n'amadarubindi.

Icyumba kigaragara nk'icy'inama cyicayemo abantu benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bicaye ku ntebe ziri mu ibara ry'umukara, imbere yabo hariyo ameza ateretseho amacupa, indangururamajwi ndetse na mudasobwa.

Abantu benshi cyane bahagaze ahantu hamwe, biganjemo abambaye imyambaro yo mu ibara ry'umweru, umutuku, ndetse n'ubururu, hagati yabo hagaragara amabendera yo mu ibara ry'umutuku, ubururu, ndetse n'umweru.

Imbuga y'itaka, ihagazeho abantu benshi bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bahagaze nk'abatonze umurongo, umuntu uhagaze imbere yambaye ikanzu ndetse n'ingofero mu mutwe, bigaragara nk'iby'abayisilamu.

Umugore wambaye ikanzu yo mu ibara ry'umweru, wazamuye ikiganza hejuru, inyuma ye hari abandi bantu benshi bari mu kivunge, bambaye imyambaro yo mabara atandukanye.

Abantu benshi birundiye hamwe, higanjemo abambaye imipira y'umutuku, bafite utubendera dutoya mu ntoki, turi mu ibara ry'umutuku n'umweru ndetse n'ubururu.

Abantu benshi, bari kureba umugabo wambaye ishati irimo amabara y'icyatsi kibisi ndetse n'umweru, wazamuye ikiganza, inyuma ye, hari abandi bantu, hari n'imodoka y'umukara.

Abantu bambaye imyambaro yo mu bwoko bw'imikenyero bazamuye ibiganza iruhande rwabo hari amabendera ari mu mabara atatu ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi.

Icyumba kigaragara nk'ikinama cyicayemo abantu bambaye imyambaro y'amabara atandukanye bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara imbere yabo hariyo ameza ateretseho mudasobwa ndetse n'indangururamajwi.

Icyumba kigaragara nk'ik'inama kicayemo abantu babiri bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara umugabo yambaye ikote, naho umugore yambaye imyambaro yo mu bwoko bw'imikenyero, yambaye n'amadarubindi ku maso.

Umugabo wambaye ishati y'umukara watebeje ndetse n'ipantaro, yazamuye ibiganza bye byombi, iruhande rwe hari undi mugabo uhagaze, ku rundi ruhande rwe, hari uri umugabo wicaye wambaye umupira w'icyatsi kibisi w'amaboko magufi, inyuma yabo hari imodoka.

Umugabo wambaye ikote ry'ubururu n'ipantaro y'ubururu, n'umupira w'umweru mo imbere, ufite indangururamajwi iteretse imbere ye, inyuma ye hicaye abandi bantu, imbere yabo hari ameza arambuyeho igitambaro cy'ubururu.

Abantu benshi bahagaze hamwe higanjemo abambaye imipira mubara ry'umweru y'amaboko magufiya, bambaye ingofero z'umweru mu mutwe bafite utubendera duto turi mu mabara atatu harimo umutuku, umweru ndetse n'ubururu.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare watebeje, wambaye amadarubindi ku maso, ufite umusatsi w'amasoso, iruhande rwe hari undi mugabo wambaye ishati y'umweru y'amaboko magufi, inyuma yabo hari abandi bantu.

Imbuga y'igitaka iteyeho intebe ziri mu i ibara ry'umweru zicayeho abantu bambaye imyambaro y'amabara atandukanye inyuma yabo hari igiti kinini hejuru hagaragara ikirere cy'ubururu ndetse n'umweru.

Icyumba kigaragara nk'icy'inama cyicayemo abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, imbere yabo hari ameza ateretseho indangururamajwi, imbere hahagaze umugabo wambaye ikote n'ipantaro bisa, imbere ye hari indangururamajwi.

Umugabo ugaragara igice k'igihimba wambaye ikote ndetse n'ishati y'umweru mu imbere, yambaye amadarubindi ku maso afite umusatsi wamasoso, inyuma ye hagaragara umuntu umuhagaze inyuma.

Umugore wicaye wambaye ikote n'ipantaro bisa, afite igitabo mu ntoki ndetse n'ikaramu, yambaye amadarubindi ku maso, imbere ye hari indangururamajwi.

Umugabo wicaye wambaye ikote n'amadarubindi ku maso, afite umusatsi w'amasoso, imbere ye hahagaze umuntu wambaye ingofero umutwe ndetse n'umwambaro utukura, iruhande rwiwe hahagaze umugore wambaye amadarubindi ku maso n'umwambaro wo mu bwoko bw'imikenyero wo mu ibara ry'ubururu.

Umugabo wambaye ikote ndetse n'ipantaro, yambaye ishati y'umweru, imbere yiwe hari indangururamajwi inyuma nkicaye abagore babiri imbere yabo hari ameza ku ruhande hari undi mugabo wambaye amadarubindi ku maso afite n'urupapuro.

Umugabo wambaye amadarubindi, wambaye amarinete ku maso, wambaye ingofero y'umweru mu mutwe, imbere ye hari indangururamajwi nyinshi harimo n'iri mu ibara ry'ubururu.

Icyumba cyicayemo abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye, bagaragara nk'abishimye bari guseka. Imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa ndetse n'indangururamajwi.

Abagabo babiri umwe munini muremure, undi ni mugufiya, ni muto muto, bambaye amakoti n'amapantaro bisa, bari guhererekanya ikintu mu ntoki, inyuma yabo hicaye undi muntu wicaye ku ntebe y'umukara.

Umugabo wambaye umupira w'umweru wambaye agapfukamunwa k'umweru mu isura, yambaye n'amadarubindi y'umukara ku maso, yambaye n'ingofero y'umutuku, inyuma ye hari abantu benshi, imbere ye hari umuntu utagaragara mu isura, wambaye ingofero y'umukara.

Abantu batatu bagaragara nk'abasutamye, bambaye imipira y'umweru y'amaboko magufi bafite ibipapuro mu ntoki no hasi harambitse ibipapuro byinshi bizinze iruhande rwabo.

Abantu babiri bafashe ku mabendera, harimo umugabo wambaye ikoti y'umukara n'ikanzu y'umweru mo imbere, yambaye amadarubindi ku maso ndetse n'ingofero mu mutwe. Iruhande rwe hari umugore wambaye imyambaro yo mu bwoko bw'imikenyero.

Umugore ugaragara igice cy'igihimba wambaye umwambaro uri mu ibara ry'ubururu, afite umusatsi mukeya ku mutwe yambaye amadarubindi ku maso imbere ye hari indangururamajwi inyuma ye yicaye abandi bagore babiri.

Abantu basa nk'abari kugenda harimo umugabo wambaye ikote n'ipantaro bisa, yambaye amadarubindi ku maso afite umusatsi w'amasaso, iruhande rwe hari umugore wambaye ikanzu irimo amabara y'icyatsi kibisi, wambaye amadarubindi ku maso, inyuma yabo hari abandi bantu bari kugenda.

Umugabo wambaye umupira w'umweru w'amaboko maremare wa tebeje, wambaye n'ipantaro y'umukara yambaye amadarubindi ku maso, yambaye ingofero y'umukara mu mutwe inyuma ye hagaragara abandi bantu benshi.

Abagabo babiri bari guseka umwe yambaye ikote ry'umukara undi yambaye imyenda igaragara nk'umpuzangano y'abasirikare, inyuma yabo hari igishushanyo cy'irangagantego cy'u Rwanda.

Umugore ugaragara igice cy'igihimba, wazamuye ikiganza yambaye amadarubindi ku maso, yambaye imyambaro yo mu bwoko bw'imikenyero, iruhande rwiwe hari idarapo.

Abagabo batatu bahagararanye harimo uwambaye umupira w'umweru w'amaboko magufi, uwo hagati yambaye ikote n'ipantaro bisa, imbere ye hateretse indangururamajwi inyuma ye hari abandi bantu bicaye hagaragara n'amaso.

Icyumba gihagazemo abantu batatu harimo umugabo wambaye ikote n'ipantaro bisa, imbere ye hari agasanduku yagakojejeho ikiganza, inyuma ye hari umugabo ufite agatabo mu ntoki, hari n'umugore wambaye ikoti ry'umweru.

Abantu benshi birundiye ahantu hamwe, bambaye ingofero z'umweru mu mutwe, bafite utubendera turi mu mabara atatu, harimo umutuku, umwe, ndetse n'ubururu.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare, wambaye isaha ku kuboko, afite indangururamajwi mu ntoki, iruhande rwe hicaye abandi bantu bicaye ku ntebe z'umukara, imbere y'abo hari ameza ateretseho amazi.

Abantu batatu bicaye ku ntebe harimo umugabo wambaye imyenda y'umweru n'undi mugabo wambaye ikoti n'ipantaro bisa, iruhande rw'abo hari umugore wambaye imyambaro yo mu bwoko bw'imikenyero, inyuma y'abo hahagaze abandi bantu.

Agahanda gashashemo amabuye gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo, uri kugendamo imodoka nini y'ubwikorezi yo mu ibara ry'icyatsi kibisi, hakurya y'umuhanda hagaragara ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo amapikipiki abiri, imbere hashushanyije imirongo iri mu ibara ry'umweru, yerekana aho abanyamaguru bambukira. Hakurya y'umuhanda hagaragara igiti.

Agahanda gasashemo amabuye kari kugendamo umuntu, gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo usa n'uwasadutse, harimo n'ikinogo, hagaragaramo imodoka nini y'ubwikorezi yo mu ibara ry'umweru hakurya y'umuhanda hateye ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo ipikipiki, hagaragara n'imirongo y'umweru ishushanyije, yerekana aho abanyamaguru bambukira, hagaragaramo n'ibindi binyabiziga harimo imodoka nini ndetse n'intoya, hakurya hagaragara umusozi muremure.

Imbuga ihagazemo imodoka nini itwara abagenzi, iri mu mabara atandukanye, harimo umweru ndetse n'ubururu, hari n'umuntu wambaye imyambaro y'icyatsi uri kuyigenda imbere ku ruhande, ku ruhande hari n'inzu y'igorofa.

Agahanda gasashemo amabuye, kari kugendamo umuntu wikoreye umufuka w'umweru, gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo urimo ikinogo, uri kugendamo imodoka nini y'umweru itwara abagenzi ndetse n'amapikipiki abiri.

Agahanda gasashemo amabuye, kari kugendamo abantu babiri, gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo urimo ikinogo, wagiye usatagurika, harimo imodoka nini y'ubwikorezi, yo mu ibara ritukura, hakurya y'umuhanda hateye ibiti.

Agahanda gasashemo amabuye, gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo, uri kugendamo imodoka nini y'ubwikorezi, aho batwara imitwaro harimo imifuka y'umweru itwikirije shitingi y'ubururu. Haruguru y'umuhanda hagaragara amazu.

Imbuga ihagazemo imodoka nyinshi zitwara abagenzi, ziri mu ibara ry'umweru, harimo n'urujya n'uruza rw'abantu, hakurya hagaragara amazu ndetse n'amatara acanye.

Agahanda gasashemo amabuye gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo, uri kugendamo imodoka nini y'umweru y'ubwikorezi, aho batwara imitwaro harimo indi modoka y'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo ibinyabiziga bitandukanye, harimo amapikipiki ndetse n'imodoka, hagaragaramo imodoka nini y'ubwikorezi yo mu ibara ry'ubururu, hakurya y'umuhanda hateye ibiti.

Imbuga ihagazemo imodoka y'umweru itwara abagenzi, hejuru yanditseho amagambo yo mu ibara ry'umukara ndetse n'umweru. Inyuma yayo hari umugabo wambaye ikote n'ingofero y'urugara, ahetse igikapu mu mugongo.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo imodoka nini y'umweru itwara abagenzi, hakurya y'umuhanda hari inyubako yo mui ibara ritukura ndetse n'irindi bara hejuru hari icyapa cyanditseho amagambo y'umutuku.

Imbuga irimo imodoka ebyiri nini cyane zitwara abantu, ziri mu ibara ry'umweru ubururu n'icyatsi kibisi, handitsemo amagambo ari mu ibara ry'icyatsi kibisi, imbere yazo ndetse n'inyama hagaze abantu.

Agahanda gasashemo amabuye, kari kugendamo umugabo, gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo imodoka nini itwara abagenzi, iri mu ibara ry'umutuku, hashushanyijemo n'igishushanyo kirimo amabara y'umuhondo, hari kugendamo n'igare.

Agahanda gasashemo amabuye gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo ugaragara nk'uwagiye usaduka urimo ikinogo, harimo imodoka nini cyane y'ubwikorezi iri mu ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo.

Agahanda gasashemo amabuye afatanye n'umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka y'umweru iruhande rwayo hagaragara amapikipiki menshi hakurya y'umuhanda hateye ibiti.

Agahanda gasheshemo amabuye gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo imodoka y'umweru y'ubwikorezi, iruhande rwayo harimo imodoka yo mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru itwara abagenzi, hakurya y'umuhanda hari ibiti.

Agahanda gasashemo amabuye gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo ipikipiki, hakurya hagaragara ubusitani burimo indabo ndetse n'ibiti.

Agahanda k'amabuye kari kugendamo umuntu gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo ugaragaramo imodoka nini y'ubwikorezi yo mu ibara ry'umweru, aho bashyira imizigo hatwikirije shitingi.

Agace gatoya k'imbuga isashemo amabuye gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka n'amapikipiki hari n'abantu bari kuwugendamo haruguru yawo hagaragara inzu.

Agahanda k'amabuye gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo hari kugendamo igare n'imodoka y'ubwikorezi ifite ibara ritukura hakurya y'umuhanda hateye ibiti birebire.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo amapikipiki ndetse n'imodoka zitwara abantu ku giti cyabo, hagati y'umuhanda hagaragara ubusitani buteyemo ibiti by'imikindo.

Agahanda k'amabuye gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo imodoka nini cyane y'ubwikorezi yo mu ibara ritukura. Inyuma yayo hagaragara amapikipiki, hakurya y'umuhanda hateye ibiti.

Agahanda gasashemo amabuye kari kugendamo umuntu gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo ugaragara nk'uwasadutse, harimo n'ikinogo hari kugendamo imodoka y'ubwikorezi yo mu ibara ry'ubururu, hakurya y'umuhanda hari ibiti.

Amapikipiki abiri yo atwara abagenzi, iruhande rw'ayo hari abagabo babiri, iruhande rw'abo hakaba hari imodoka ntoya, hakurya hagaragara indi modoka itwara abagenzi nini.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo ipikipiki ndetse n'imodoka zitwara abantu ku giti cyabo, hagati mu muhanda hari agace gatoya gateyemo ubusitani burimo ibiti bibiri by'imikindo, hakurya y'umuhanda hagaragara ibiti.

Umugabo ufite imbago mu ntoki uhetse igikapu cy'umukara mu mugongo yambaye n'ipantaro y'umukara ahagaze inyuma y'imodoka ebyiri imwe ntoya iri mu ibara ry'umweru, indi nini ifitemo ibara ry'ubururu zose zitwara abagenzi.

Umuhanda urimo amapikipiki uri kugendamo n'umugabo ufite ingofani, haruguru y'iwe hari umugore uhetse umwana ufite agakapu mu ntoki inyuma ye hari imodoka itwara abantu ku giti cyabo, inyuma hakurya y'umuhanda hari imodoka itwara abagenzi.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo imodoka y'umweru ntoya nindi nini y'ubururu y'ubwikorezi irimo amakaziye inyuma hagaragara ibiti.

Agahanda gasashemo amabuye gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo umunyonzi utwaye umugenzi n'imodoka nini y'ubwikorezi iri mu ibara ritukura hakurya y'umuhanda hari ibiti.

Mu muhanda wa kaburimbo uri kugendamo ipikipiki itwaye umugenzi hagaragaramo igicucucucu k'iyo pikipiki itwaye umugenzi n'ibiti, hagati mu muhanda hari ubusitani buteyemo ibiti by'imikindo.

Agahanda gasashemo amabuye gahagazemo amapikipiki menshi haruguru hagaragara icupa rinini ririmo ikinyobwa cy'umukara haruguru yaryo hagaragara inyubako y'igorofa.

Umugabo wambaye imyenda y'ubururu, uri guseka ufite ingorofani, iruhande rwe hagaragara imodoka y'umweru ndetse n'inzu y'igorofa.

Agahanda gasashemo amabuye kegeranye n'umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo imodoka y'umweru itwara abantu ku giti cyabo, n'indi modoka y'umweru y'ubwikorezi, hakurya y'umuhanda hagaragara ibiti.

Agahanda gasashemo amabuye, gahagazemo imodoka ntoya y'umweru, irimo n'ibara ry'umuhondo kuruhande, yanditseho amagambo y'umutuku, imbere yayo hahagaze abantu, iruhande rwayo hari iyindi modoka imeze nkayo, iri mu ibara ry'umweru.

Imbuga ishashemo amabuye, ifatanye n'umuhanda wa kaburimbo uhagazemo imodoka eshatu, ziri mu ibara ry'umweru zitwara abantu ku giti cyabo, imbere yazo hari igorofa ririho ibyapa.

Ihagazemo imodoka z'amoko atandukanye, harimo imwe y'ubwikorezi aho batwara imitwaro hari imifuka myinshi iri mu mabara atandukanye, haruguru hagaragara ibiti.

Imbuga igaragara nk'iyasadutse, ihagazemo imodoka y'umweru itwara abagenzi, mu idirishya ryayo ry'imbere hari umugabo wambaye ishati iciyemo imirongo ndetse n'ipantaro y'umukara.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo amapikipiki ndetse n'izindi modoka harimo n'iz'ubwikorezi hashunyijemo imirongo y'umweru yerekana aho abanyamaguru bambukira hakurya y'umuhanda hari ibiti.

Agahanda gasashemo amabuye gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo, uri kugendamo imodoka nini y'ubwikorezi iri mu ibara ry'icyatsi kibisi, inyuma yayo hagaragara indi modoka ndetse n'inzu.

Umuhanda wa kaburimbo ushanjemo imirongo y'umweru yerekana aho abanyamaguru bambukira, hagaragaramo n'imodoka nini itwara abagenzi, iri mu mabara atandukanye yanditseho n'amagambo.

Imbuga irimo ikidendezi cy'amazi imbere hari imodoka nini y'umweru itwara abagenzi, iruhande rwayo hari umugabo uhetse igikapu mu mugongo wambaye ingofero y'urugara mu mutwe.

Agahanda gasashemo amabuye ka kugendamo umusore wikoreye umufuka munini w'umweru, gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo, ugaragaramo ikinago hari kugendamo imodoka nini y'ubwikorezi, ndetse n'amapikipiki.

Umuhanda usa nk'urimo ibinogo urimo imodoka y'ubwikorezi yo mu ibara ry'ubururu yanditseho amagambo y'umweru ku ruhande, hakurya hagaragara ibiti ndetse hejuru hari insinga zishinzwe gutwara umuriro w'amashanyarazi.

Agace gato gasashemo amabuye gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo ugaragara nk'uwasadutse, hari kugendamo ipikipiki ndetse n'imodoka nini y'ubwikorezi iri mu ibara ry'umweru, hakurya y'umuhanda hateye ibiti.

Agahanda gasashemo amabuye bafatanye n'umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka y'ubururu y'ubwikorezi, imbere yayo hagara iyindi modoka, hakurya y'umuhanda hateye ibiti.

Agahanda gasashemo amabuye gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo ugaragara nk'uwasadutse hari kugendamo ipikipiki ndetse n'imodoka nini y'ubwikorezi iri mu ibara ritukura hakurya y'umuhanda hateye ibiti.

Agahanda gasashemo amabuye gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo imodoka y'ubwikorezi n'ibara ry'ubururu ndetse n'umweru n'inyuma hagaragara amapikipiki hakurya y'umuhanda hateye ibiti.

Agahanda gasashemo amabuye kari kugendamo abagabo babiri, gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo imodoka nini uri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, hakurya y'umuhanda hateye imiti.

Agahanda gasashemo amabuye, iruhande rwako hagaragara imodoka nini y'ubwikorezi, iri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweruru, inyuma yayo hagaragara amapikipiki ndetse n'ibiti.

Agahanda gasashemo amabuye kari kugendamo umugabo gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo urimo kugendamo imodoka ebyiri imwe ntoya n'indi nini y'ubwikorezi hakurya y'umuhanda hari ibiti.

Agahanda gasashemo amabuye, gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo ugaragara nk'uwagiye usaduka, harimo n'ikinogo, hari kugendamo imodoka y'umweru y'ubwikorezi, hakurya y'umuhanda hagaragara ibiti.

Agahanda gasashemo amabuye gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo urimo ikinogo, hari kugendamo ipikipiki itwaye umugenzi iruhande rwayo hari imodoka nini y'umweru itwara abagenzi hakurya y'umuhanda hari ibiti.

Ikibuga bakiniramo umupira kirimo abantu bari gukina, iruhande rwacyo hari ubusitani buteyemo ibiti by'imikindo, haruguru y'ubusitani hari inzu y'igorofa yubakishije amatafari ahiye ndetse n'amabati yo mu ibara ritukura.

Umuhanda wa kaburimbo ufatanye n'akandi gahanda k'amabuye gafatanye n'igice kigaragaramo igisambu giteyemo icyapa cya mpandeshatu, kiri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, hagati hashushanyijemo umuntu uri mu ibara ry'umukara ndetse n'imirongo y'umukara.

Umugore wambaye ijipo, ufite igikapu cy'icyatsi kibisi mu ntoki, inyuma ye hagaragara ubusitani burimo ibyapa bitandukanye, harimo ikiri mu ibara ry'icyatsi kibisi cyanditsemo amagambo y'umweru n'ikindi kiri mu ibara ry'umweru cyanditsemo amagambo y'umukara.

Umuhanda wa kaburimbo, ku ruhande rwawo hagaragara icyapa cy'umweru cyanditsemo amagambo y'umukara, hagaragara n'ibiti, munsi y'ibiti hahagaze abantu bambaye imyambaro yo mu mabara atandukanye.

Agace gato k'imbuga isashemo amabuye, gafatanye n'igisambu giteyemo icyapa kirimo ibara ry'ubururu, cyanditsemo inyuguti ya pa, hashushanyijemo n'imodoka y'umweru itwara abagenzi, haruguru hagaragara inzu y'igorofa.

Agahanda k'amabuye kari kugendamo umuntu iruhande rwako hari icyapa kirimo ibara ry'umutuku ndetse n'umweru kirekire cyanditsemo umubare mirongo itandatu hakoreshejwe ibara ry'umukara imbere yacyo hagaragara n'inzu.

Icyapa cy'umweru cyanditsemo amagambo yanditse mu ibara ry'umukara, handitsemo amagambo agizwe n'izi nyuguti k g s t harimo n'umubare ijana na mirongo inani n'icyenda.

Agahanda gasashemo amabuye kari kugendamo umuntu gafatanye n'igisambu giteyemo icyapa kirekire kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi cyanditsemo amagambo yo mu ibara ry'umweru.

Imihanda ibiri ya kaburimbo hari kugendamo imodoka nini cyane y'ubwikorezi, hagati yayo hagaragara imbuga iteyemo ibyapa bibiri, kimwe kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi cyanditsemo amagambo y'umweru, ikindi kiri mu ibara ry'umweru cyanditsemo amagambo y'umukara.

Agahanda gasashemo amabuye, kari kugendamo umuntu, iruhande rwako hari icyapa cy'uruziga cyanditsemo mirongo itandatu, haruguru hari inzu ifite inzugi z'umweru isize ibara ry'umuhondo.

Agahanda k'amabuye kari kugendamo abantu gafatanye n'igisambu gishizemo icyapa cya mpande eshatu, kiririmo ibara ritukura ndetse n'umweru hagati hashushanyijemo abantu babiri bari mu ibara ry'umukara hagaragara n'ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo ibinyabiziga bitandukanye harimo amapikipiki ndetse n'imodoka ntoya zitwara abantu ku giti cyabo, iruhande rw'umuhanda hari inzu ndende y'igorofa.

Imbuga ihagazemo imodoka eshatu zitwara abantu ku giti cyabo, imbere yazo hari inyubako imanitseho ibyapa haruguru hari inzu y'igorofa ndende.

Umuhanda w'igitaka uca hagati y'amazu hahagazemo amapikipiki abiri, hari n'imodoka zitwara abantu ku giti cyabo ebyiri hari kugendamo abantu hagaragara n'ibiti.

Imbuga isashemo amabuye hahagazemo imodoka ebyiri zitwara abantu ku giti cyabo, imwe muri zo iri mu ibara ry'umutuku, imbere yazo hagaragara inzu y'igorofa, hejuru imanitseho icyapa cy'umukara cyanditseho amagambo y'umweru.

Imbuga y'igitaka imbere yayo hagaragara umuryango munini winjira ahantu hubatse inzu ndende y'igorofa yubakishije amatafari ahiye imbere yayo hagaragara ibiti bibiri by'imikindo

Imbuga ihagazemo imodoka zitwara abantu ku giti cyabo ziri mu mabara atandukanye imbere yazo hagaragara amapikipiki y'inyuma hakagaragara inzu ndende y'igorofa iriho icyapa.

Umuhanda wa kaburimbo ugaragaramo abagabo babiri, umwe yambaye ingofero y'urugara n'ikote ry'umukara, undi yambaye ishati y'umutuku n'ipantaro y'umweru, haruguru yabo hari inyubako.

Umuhanda mugari wa kaburimbo, hagati urimo ubusitani buteyemo ibiti by'imikindo, hari kugendamo imodoka zo mu bwoko butandukanye, harimo inini ndetse n'intoya, hagaragaramo n'abantu.

Agahanda k'amabuye kegeranye n'umuhanda wa kaburimbo waciyemo imirongo y'umweru, yerekana aho abanyamaguru bambukira, harimo n'amapikipiki ndetse n'imodoka, hari n'itara rifasha abanyamaguru ndetse n'ibinyabiziga gutambuka.

Agahanda gasashemo amabuye gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo, werekana aho abanyamaguru bambukira, hari abantu bari gutambukamo, imbere yabo hari imodoka ndetse n'ipikipiki hakurya y'umuhanda hagaragara ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo mugari uri kugendamo ipikipiki imwe itwaye umugenzi, wambaye umupira w'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara hakurya y'umuhanda hagaragara igikuta cy'umweru, iruhande rwacyo hari ibiti birebire.

Agahanda gasashemo amabuye gafatanye n'undi muhanda wa kaburimbo, ugaragara nk'uwasadutse uri kugendamo amapikipiki, uca munsi y'ikiraro, hakurya y'umuhanda hateye ibiti.

Agahanda k'amabuye gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo, uri kugendamo igare ritwaye ameza abaje mu biti uca munsi y'ikiraro, hakurya yawo hari ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo ugaragara nk'uwasadutse, uri kugendamo imodoka nini y'umweru ndetse n'ubururu itwara abagenzi, uca munsi y'ikiraro, hakurya y'umuhanda hagaragara ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo uciyemo imirongo y'umweru igiye itaragurika, harimo umugabo utwaye igare, wambaye umupira w'umaboko maremare ahetse agakapu k'umukara mu mugongo.

Imbuga isashemo amabuye, ifatanye n'umuhanda wa kaburimbo, haciyemo imirongo y'umweru yerekana aho abanyamaguru bambukira, haragaragaramo ibinyabiziga bitandukanye, harimo imodoka ndetse n'amapikipiki.

Umuhanda wa kaburimbo wari kugendamo umugabo utwaye igare, imbere ye hari amapikipiki ndetse n'imodoka zitwara abantu ku giti cyabo ba biri kuhagenda, hakurya y'umuhanda hateye ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo uciyemo umurongo w'umweru ugiye utaragurika, hagaragaramo n'ibinyabiziga by'amoko atandukanye, harimo imodoka ndetse n'amapikipiki, hakurya y'umuhanda hagaragara ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo ugaragara nk'utose igice gitoya, hari kugendamo ibinyabiziga bitandukanye, harimo ipikipiki, imodoka, hakurya y'umuhanda hateye ibiti.

Umuhanda mugari wa kaburimbo uri kugendamo imodoka zitwara abantu ku giti cyabo ndetse n'amapikipiki hagati mu muhanda hari uduce dutoya duteyemo ubusitani harimo n'ibiti by'imikindo.

Agahanda gasashemo amabuye gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hari n'agace gatoya k'ubusitani gateye aga mu muhanda kagaragaramo ibiti by'imikindo hakurya y'umuhanda hateye ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo, hashajemo imirongo y'umweru yerekana aho abanyamaguru bambukira, hari kugendamo imodoka zitandukanye, harimo inini ndetse n'intoya, hakurya y'umuhanda hagaragara ibiti.

Agahanda gasashemo amabuye kari kugendamo umugabo gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo uciyemo imirongo y'umweruru yerekana aho abanyamaguru bambukira, hari kugendamo ibinyabiziga, hagaragara n'ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo uciyemo imirongo y'umweru yerekana aho abanyamaguru bambukira, hari kugendamo imodoka ntoya itwara abantu ku giti cyabo yo mu ibara ritukura, hagati mu muhanda hari ubusitani butoya buteyemo ibiti by'imikindo, hari n'abantu bari kugenda mu muhanda.

Agahanda gasashemo amabuye gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo ugaragara nkaho utose igice kimwe, harimomo n'igice kigaragara nk'icyagiye gisaduka hakurya y'umuhanda hari ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo, ushushanyijemo imirongo y'umweru, yerekana aho abanyamaguru bambukira, harimo abantu bari kwambuka, haruguru yabo hagaragara amapikipiki ndetse n'imodoka.

Umuhanda wa kaburimbo ushushanyijemo imirongo y'umweru yerekana aho abanyamaguru bambukira, hari kugendamo imodoka z'ubwoko butandukanye, hagaragara n'amatara ari kwaka hakurya y'umuhanda hateye ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo uciyemo imirongo y'umweru yerekana aho abanyamaguru bambukira, hagati mu muhanda hari ubusitani butoya buteyemo ibiti by'imikindo, hari kugendamo n'amapikipiki hakurya y'umuhanda hari ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo ushushanyijemo imirongo y'umweru, hari kugendamo ipikipiki ndetse n'imodoka ntoya zitwara abantu ku giti cyabo, hakurya y'umuhanda hagaragara ibiti byinshi.

Agahanda gasashemo amabuye gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo werekana aho abanyamaguru bambukira hari kugendamo ipikipiki hakurya hagaragara ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo ugaragaramo abantu bari kuwugendamo bagiye batandukanye hagaragaramo n'ibicucucu by'ibiti hakurya hateye ibiti byinshi bigaragara nk'ishyamba.

Agahanda gasashemo amabuye gafatanye n'umuhanda wa kaburimbo, uciyemo imirongo igiye itaragurika, harimo n'imodoka zo mu bwoko butandukanye, harimo intoya ndetse n'inini z'ubwikorezi.